Iyifoto irerekana mu gikoni habarimo ibyuma bitandukanye ndetse hakaba harimo na firigo cyangwa se icyuma gikoreshwa kibikwamo ibiryo kugira ngo kibikonjeshe.

Uru ni rupapuro rwerekana amategeko n'amabwiriza agenga ikigo runaka cyangwa se umushinga runaka, bakaba bayanditse bayakurikiranyije uko akurikirana ari uruhererekane, akaba ari amategeko agera mu ikenda.

Hano barerekana agapapuro kamamaza kariho impamvu ugomba gutunga cyangwa se gukoresha banki ya beka hakaba hariho n'umusore ushinzwe kwamamaza, ukubwira impamvu zo gukoresha banki ya beka.

Uri ni urupapuro rutumira abanyarwanda kuza mu nama rusange, irimo gushyigikira abanyarwanda bakiri bato hakaba hariho aderese zaho bizabera n'itariki n'amasaha byose.

Hano baragaragaza mu isoko, aho hari inkweto, z'ubwoko bumwe, ariko zifite amabara atandukanye ziri hasi, ndetse hakaba hejuru hari n'ahamanitse ibikapu, hakaba harimo n'abacuruzi bari mu tuzu runaka.